Bigaragara ko hano ari ku kigo nderabuzima, aho ari n'imodoka yifashishwa mu gutwara abarwayi ariyo bakunze kwita ambulance, eee...

Abagabo n'abagore bahagaze mu busitani. Bafite komputa. Imbere yabo hari ibikarito. Inyuma hari inzu ihari, yubakishije amatafari ahiye ndetse isize irangi ry'umweru mu bice bimwe.

Ibikoresho bifashisha kwa muganga mu gihe cyo gupfuka ibisebe, bikaba biri ahantu hamwe. Harimo amapamba, imikasi yo kubikata ndetse n'ibindi bikoresho twavuga nka ga bambara mu ntoki.

Umugabo wambaye imyenda y'imikara ndetse n'umuhondo, akaba afite ingofero irimo akamenyetso ka Polisi, hirya ye hari undi uhagaze ufite agapara mu ntoki, inyuma yaho hakaba hari akajaride gateyemo uduti tureture ndetse n'indabyo.

Imbuga nini iparitsemo imodoka, ishushanyijeho umusaraba w'umutuku ndetse hasi hakaba hari ibikoresho bihari. Twavuga indobo, amabuni ndetse hakaba hari n'abaturage baje kubihabwa.

Abarwayi barenga bane baryamye akaba ari n'umudeteri ushinzwe kubitaho, akaba ari umuntu uri gukora amasuku muri icyo cyumba barimo, hejuru yabo akaba ari za supanet zimwe zibarinda imibu, hejuru yabo hakaba hari na vandaloteri zituma haba umwuka mwiza.

Inzu nini isize irange ry'umweru, ikaba isakajwe amabati yenda kuba umukara. Harimo abantu bambaye udukote tw'umutuku ndetse bakaba bafite amakaramu imbere ku meza.

Abaganga bane batwaye umurwayi ku kagare gasa umweru umurwayi akaba aryamye kuri ako kagare, bigaragara ko umurwayi yambaye rinete, n'ishati y'ubururu akaba yiyoroshye ishuka isa umweru. Aba baganga bakaba bambaye ibintu bituma bata batandura indwara y'umurwayi arwaye.

Umugore n'umugabo bari kuri kandagira ukarabe bari gukaraba, inyuma yaho hari abandi bagabo babiri ndetse n'undi mugore, hakurya hari imodoka zihaparitse ndetse n'ibiti bihateye birebire.

Inzu isize irangi ry'umweru. Ikaba iriho amabati y'imikara. Imbere yaho hari icyapa kihashinze ndetse ku muryango hari umugabo uhagaze wambaye itaburiya ndetse n'abagore bahicaye babiri.

Imodoka zirimo amabara y'umutuku ndetse n'umweru zikaba ziparitse ahantu mu gipangu, zikaba zitwara abarwayi barembewe kwa muganga, zikaba zitwa imbangukiragutabara.

Imodoka y'umweru iriho amagambo yandikishijwe mu ibara ry'ubururu, hanze hakaba hari intebe z'imyeru zicayeho abantu, ndetse bari kuganira hakurya yaho hari ibiti bihateye birebire.

Akenshi na kenshi usanga impanuka zibera mu muhanda, ziterwa n'uko abashoferi baba batubahirije amabwiriza bahabwa n'inzego zibishinzwe. Niyo usanga abaganga babafasha mu kuvura abantu bakomeretse bakabasha kuba neza.

Inzu nziza irimo irange ry'umweru ndetse n'inzugi z'umweru hakaba hamanitsemo ibipapuro bishushanyijeho amaso, hasi hakaba hari abagabo n'abagore bahagaze ndetse n'intebe ziteye zo kwicaraho.

Ubwogero bogeraho mugihe winjiye cyangwa ugiye kurya, hakaba hari abagabo bambaye ubupfukamunwa, bari gukaraba, umwe yambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, undi yambaye ishati y'icyatsi.

Umudokiteri w'umugore wambaye itaburiya y'icyatsi n'agapfukamunwa k'umweru, yambaye n'amarinete, undi akaba yambaye ingofero y'icyatsi n'agapfukama k'umweru, akaba yambaye itaburiya y'icyatsi yambaye na ga akaba ari ibintu bari gukora mo aha ngaha.

Inzu nini isize irangi ry'umuhondo ndetse ikaba irimo inzugi z'umukara, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yaboho hari ibitanda byicayeho abana, hakaba hamanitse na supanete.

Umugore w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, akaba yambayemo ijipo isa ubururu. Umugore akaba yambaye agapfukamunwa, akaba ahagaze mu cyumba, umurwayi ashobora kwinjiramo, bakaba bagira icyo bamufasha, akaba hirya kuri uyu nguyu hakaba hari imashini ishinzwe gukontolola icyo umurwayi arwaye.

Inzu nini isize irange ry'umuhondo hakaba harimo umugore n'umugabo wambaye amashati y'imyeru, bakaba bafite ibipapuro imbere yabo umugore akaba ari kwereka umugabo.

Inzu irimo ibice byinshi ikaba isize irangi ry'umweru, ndetse imbere yaho hakaba haparitse imodoka, hino hari icyapa kihubatse kirimo ibara ry'icyatsi, hakaba hariho amagambo y'umweru.

Inzu isize irangiye ry'umweru, ikaba irimo urugi rw'umutuku, hamanitseho ibyapa birimo amabara y'ubururu ndetse n'umweru, mo imbere hicayemo abantu ndetse hakaba hateritsemo n'ameza.

Hano bigaragara ko ari badamu bane b'abaganga bari muri egisiperimeti ibyo twakita nka egisiperimeti bari gukora ubushakashatsi ku ndwara zigiye zitandukanye cyangwa bari kureba ibikoresho bishyashya babazaniye bigaragara ko bari muri laboratwari y'ibikoresho.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ikaba isize irangi ndetse n'inzugi z'imyeru, imbere hari abagabo n'abagore bahagaze, bambaye udupfukamunwa, bakaba bafite amakaye ndetse n'impapuro mu ntoki zabo.

Imodoka iriho ibara ry'umutuku ndetse n'umweru izwi nk'imbangukiragutabara, ikaba irimo umugabo wambaye ishati irimo amabara, inyuma yaho hubatse inzu isize irangi ry'umweru ndetse hino yaho hakaba hateye ibiti birebire.

Ibitaro byubatse neza ku bikuta hakaba hasize irange ry'umweru ndetse hejuru hakaba hari amatara menshi, bakaba bambaye udupfukamunwa ndetse n'ibisarubeti by'icyatsi, bakaba bari gukata udukoresho bakoresha iyo bari gupfuka umurwayi.

Ahantu mu kibuga hubatse amashitingi y'imyeru, ndetse harimo amabara y'imihondo n'ubururu, imbere hakaba hahagaze abantu bambaye imipira y'imweru bamanitse amaboko, umwe muri bo afite igipapuro mu ntoki.

Inzu isize irangi ry'umuhondo, hakaba harimo inzugi z'umukara, hahagaze ababyeyi, bateruye abana ndetse abandi bakaba bicaye, bakaba bari kubakira, uko bigaragara, baje gukingiza.

Ahantu hubatse neza mu ibara ry'umukara n'umweru, hakaba hari utujaride duteyemo ibiti bigufiya, hepfo yaho hari abantu benshi, bamwe bafite imitaka, imbere hari abagabo bahahagaze, bafite icyapa cyanditseho, inyuguti mirongo itatu.

Hano hari kugaragara abagabo babiri, umwe ari kuri mashine, undi ari gukoresha igikoresho bita Microscope gikoreshwa mu kureba utuntu tutaboneshwa n'amaso yacu; bigaragara ko bari muri laboratwari.

Inzu nziza isize irange ry'umuhondo, ikaba ifite ibirahure binini by'imyeru, mu imbere harimo abanyeshuri bambaye ishati z'imyeru ndetse na karuvate, bakaba bambaye amajipo y'imikara, imbere yabo ku meza hari agakombe kahateretse.

Abagabo babiri bambaye amatabuririya y'umweru, bakaba bari mu nzu isize irangi ry'umuhondo, ndetse hakaba harimo ibikoresho bikoreshwa muri laboratwari, bakaba bafite akabuni k'umweru ndetse n'utwuma tw'uturahure.

Ibikoresho biri kwa muganga bifashisha mu gihe bari gusuzuma ndetse no kureba icyateye indwara, bikaba biri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara hakaba hateretse n'agakombe k'akarahure.

Umuganga wambaye itaburiya ndetse n'apfukamunwa by'umweru, akaba yambaye n'uturindantoki tw'ubururu. Akaba afite ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, imbere ye mu gihe bari gusuzuma cyangwa bari gupima agakoko kateye indwara.

Utuntu bakunze kwita mu cyongereza petiridishi, utu tuntu badukoresha rero iyo bari guhinga icyo bita mikorobe zabateria bashaka kugaragaza indwara runaka biterwa n'iyo bagiteria ibintu bijyanye n'ibyo.

Biragaragara ko hano hari ibikoresho bakoresha kwa muganga, harimo amapamba, vinegire, hakazamo ga ziriya bambara kugirango birinde kwandura indwara ziri transpmation, hakazamo n'aho babika udukoresho twanduye muri turiya dusorori.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bambaye impuzankano y'umuhondo, bakaba bafite udukombe bari kunyweramo igikoma. Hari umugabo wicaye hagati yabo wambaye umupira w'umuhondo ndetse bakaba bari ku mikeka irimo amabara y'umukara.

Ndi kubona umubyeyi wambaye umweru uri kwa muganga ukikiye umwana w'uruhinja, wambaye imyenda y'umweru wicaye ku gitanda cyo kwa muganga, hirya ye inyuma ye hakaba hari n'undi mubyeyi nawe w'umurwayi wicaye nawe ku gitanda.

Icyumba kirimo abantu batatu bameze nk'abaganga ndetse bakaba bambaye imyenda y'imyeru, uko bigaragara bari gusuzuma umwana cyangwa se bakaba bari kureba icyo arwaye.

Ibitaro bisize irangi ry'umweru ndetse hakaba harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye bifashisha bari kuvura hakaba, hakaba hari umuganga wambaye itaburiya y'ubururu ndetse n'agatambaro k'umweru, imbere ye ku gitanda haryamye akana.

Inzu nziza zubakishije amatafari ahiye zikaba zisize irangi ry'umweru ndetse n'ubururu, imbere yaho hari impombo zijyana amazi, hakaba hari n'imbuga iriho jaride n'ubwo itarafata neza ikaba iteyemo ibyatsi.

Ishuri ryubatse neza rikaba risize irangi ry'umuhondo, ndetse hakaba harimo n'ikibaho bandikaho cy'umukara, hari abana bicaye ku ntebe z'ubururu ndetse n'umutuku, imbere yabo hari ameza ahateretse.

Abanyeshuri bambaye amashati y'imyeru ndetse n'amapantaro ya kacye, bakaba bicaye ku ntebe z'imyeru, bari kureba imbere bari guseka, bakaba bafite n'udupapuro mu ntoki tw'ubururu.

Inzu nziza isize irangi ry'umweru, ndetse ikaba imanitseho ibyapa birimo amabara y'ubururu ndetse amagambo akaba yanditse mu ibara ry'umukara n'umweru, hanze hicaye abantu benshi bamanitse amaboko.

Abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda y'ubururu bakaba bafite ibipapuro mu ntoki byanditseho amagambo, umwe muri bo afite indangururamajwi mu ntoki bisa nkaho ari kugenda asoma amagambo yanditse kuri iyo mpapuro.

Inzu nziza yubakishije amatafari ahiye, ikaba isize irangi ry'umuhondo akabaditseho amagambo mu ibara ry'ubururu, amadirishya arimo amarido ndetse no ku rukuta hakaba hariho kizimyamwoto.

Kwa muganga usanga hari ibikoresho bimwe na bimwe byifashishwa mu kuvura abantu, mu kubaga ndetse no mu gutanga imiti igiye itandukanye yaba inyuzwa mu nshinge ndetse n'inyuzwa mu binini, ugasanga ivuye abantu bagakira neza.

Umucuruzi w'umugabo wambaye ishati y'icyatsi, ifite imifuka ku mpande zombi, ikaba ifite ibipesi by'umukara, akaba acuruje amavuta ndetse n'ibindi bintu, hakaba harimo n'imiti y'amatungo.

Umuhanda mwiza wubakishije amabuye matoya ukaba uri hepfo y'inzu nziza isize irange ry'umweru, hakaba hariho amagambo yandikishije ibara ry'umukara.

Hano hari kugaragara farumasi y'ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo aho wasanga imiti y'amatungo cyangwa umuveterineri wagufasha gukemura ikibazo itungo ryawe ryahuye nacyo, hakongera hakagaragara na ikinyabiziga bita moto,

Inzu yubatse neza cyane, ikaba isize amarangi y'umweru ndetse ikaba ishushanyijeho n'umuntu ufite mashini, imbere handitseho nimero za telefone ndetse n'andi magambo ari mu ibara ry'ubururu.

Farumasi yitwa aderanine famasi, hejuru y'icyo cyapa hakaba hari ikirango cyerekana ko ikorana na momo peyi hirya y'iyo farumasi hakaba hari butike ishobora kuba icuruza ibintu bijyanye n'imiceri n'amavuta yo gutekesha.

Ishashi nini irimo imiti y'amatungo hakaba hashushanyijeho inkoko eshatu nkuru ndetse n'utwana tubiri, imwe ikaba yitwa isake izindi ebyiri akaba ari inkokokazi, isake ikaba iri mu ibara ry'umutuku.

Umuntu uri muri farumasi usa nkaho uri kwandika cyangwa uri gutunganya fagitire agiye guha umuntu, hirya nkahabona imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura abantu, hakaba hari n'icyapa cya kode abantu bashobora kwishyuriraho imiti bafashe.

Inzu nini yubatse neza, ikaba isize irangi ry'umweru. Haruguru yayo hari indi yubakishije amakaro, ikaba iriho icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'icyatsi, imbere yaho hari inzira yubatse neza ihari.

Inzu nini yubatse neza iriho ibyapa by'imyeru, umuhondo ndetse n'umukara kugikuta hakaba hamanitse kizimyamwoto bifashisha mu gihe haba habaye inkongi y'umuriro.

Hano bigaragara ko ari Leta yari yafashe ibintu bitemewe n'amategeko iri kubishyingura kugira ngo abaturage babirebereho ntibazongere kubikoresha ukundi, harimo abapolisi, harimo abasirikare n'abayobozi bo mu nzego runaka, bari bari gutanga urugero ibintu byemewe, ibintu bitemewe iyo babifashe icyo babikorera.

Inzu nini irimo intebe zo kwicaraho hakaba hariho abantu bambaye imyenda isanzwe ifite amabara atandukanye, ku gikuta gihari hariho ibishushanyo by'abantu bafite ibikoresho byo gucuranga, ibyo guhinga ndetse n'uwambaye itaburiya y'umweru.

Bigaragara ko hari abantu benshi bafite icyemezo cyo kurwanya ibiyobyabwenge mu rwanda; bafite insanganyamatsiko ivuga bati twubake u rwanda ruzira ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge birica.

Abantu bambaye imipira y'imweru ndetse n'amapantaro y'umukara, bakaba bafite ibyapa mu ntoki byandikishijeho amagambo y'umweru biri mu ibara ry'umutuku ndetse inyuma yaho hakaba hari shitingi ihubatse irimo ibitambaro by'umuhondo ndetse n'umweru.

Hano ndi kubona umuganga w'umugore, ushobora kubakora muri laboratware bitewe n'ibikoresho afite, imbere y'iwe, dogiteri akaba yambaye baji.

Abantu batatu bahagaze, hakaba harimo umugore wambaye igitambaro mu mutwe ndetse n'umupira urimo utudomo, ari kuvugana n'umugabo wunamye ku kameza gahari kayiteretseho inzoga.

Umugabo wicaye kumukeka, uri gusa gukora imiti ya kera mu kuvura indwara runaka, akaba ari uturimo umuhondo, hari udusa umukara nitwo tujya kumera nk'impegeri, ibyo byose bikaba ari ibyofashi arimo gukora imiti.

Ubuvuzi buri mu byiciro bitandukanye twavuzaga nk'ubuvuzi gakondo aho usanga bakoresha ibimera bigiye bitandukanye bikabasha kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Ubuvuzi buri mu byiciro bitandukanye aho usanga hari ubuvuzi bwa gakondo bifashisha imiti y'ibimera bigiye bitandukanye biri ku Isi, aho usanga bivura indwara zitandukanye , usanga babijyana mu Inganda bakabitunganya na none bigasohoka bituvura indwara.

Igiti cy'icyatsi, kikaba gifite amababi manini, atoshye, gikoreshwa mu kuvura ndetse no kurinda amatungo indwara zo mu nda, kikaba kiba mu gasozi.

Umusaza usa nk'aho akuze yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru, afite ibyatsi mu ntoki aho abiteretse ku meza ari kubyerekana uko bigaragara bishobora kuba ari umuti gakondo.

Ndi kubona isambaza n'indimu, ibi byakoreshwaga nk'umuti kera, hakaza umutsima w'umumbati, umwumbati, umutsima w'umumbati wumye, hakazamo isosi irimo bakoreshagamo nk'imiti, ibi byakoreshwaga nk'umuti uvura indwara runaka.

Umuganga umugore wambaye agapfukamunwa uri gupima umugore utwite. Akoresheje icyuma cyabugenewe. Ushaka kureba umwana cyangwa ikibazo inda ifite. Akaba ari gukoresha igikoresho cyabugenewe kwa muganga basanzwe bakoresha. Umugore akaba aryamye ku gitanda.

Inzu nini nziza isize irangi ry'ubururu ikaba imanitseho ibyapa by'umweru biriho amagambo yandikishije mu ibara ry'umukara, hakaba hariho ibimenyetso by'umugore n'umugabo bafite utwana mu ntoki, imbere yaho hari ababyeyi harimo abagabo ndetse n'uri kubafotora.

Inzu nini kandi ndende, isize irangi ry'umuhondo ndetse ikaba ifite amadirishya y'umukara. Imbere yaho hicaye abagore ndetse n'abagabo bafite impapuro mu ntoki. Uko bigaragara hari ikintu baje kuhashaka.

Bigaragara ko hano ari Umudogiteri uri kumwe n'abanyeshuri babiri, umuhungu n'umukobwa Umudogiteri ari kugenda abasobanurira neza ku bijyanye n'uburyo bakora hariya no ku iriya miti uburyo ikora.

Inzu isize irangi ry'ubururu, imbere yayo hakaba hateye umukindo, mu mbuga ihari hari umugore uri gutambuka ufite igikapu mu ntoki ndetse akaba afite n'umwenda mu ijosi.

Inzu isize irangi ry'umuhondo hasi akahasize ry'umukara, hicayemo abantu babiri bambaye imyenda y'imyeru, bakaba bafite imbere yabo ameza bakaba bari kwandikiraho impapuro ndetse n'akandi gakoresho gahari.

Hano ndi kubona inzu imeze neza cyane ifite ibara ry'ubururu, ikaba ari ikigonderabuzima aho umuturage wese afite ikibazo kijyanye n'ubuzima, ashobora kugenda bakamufasha, bakaba bamugira inama, bakaba bamuha n'ibyo bashobora kumuha nk'imiti bitewe n'ikibazo afite.

Inzu nini ifite amabati y'imyeru, ndetse hakaba hariho irangi ry'ubururu, ku byapa biriho byandikishije amagambo mu ibara ry'umukara, haba hanze ku mbuga hateretse intebe.